Uhagaze ufite ubwanwa bw'umweru n'ingofero y'urugara yambaye ikositimu, ipantaro y'ubururu n'ikote rijya gusa umweru n'umukara ukuntu, yambaye karuvati, ishati y'umweru, yambaye inkweto z'umukara ari guseka.

Amatara utubati imitako ibikapu birimo imyenda n'utuntu tw'utuvazi turiho uturabyo hirya hari akantu bamanikaho imyenda hariho amakanzu y'umuhondo imbere.

Ni igikamyo cyikoreye imizigo, cyangwa se gishobora kuba cyikoreye umucanga, ariko ikaba itwikiriwe hejuru ikamyo, iri kugenda mu muhanda rwagati, muri kaburimbo, ari yonyine. Iburyo n'ibumoso hari inzira z'abanyamaguru.

Inzu nini ifite amabara y’umuhondo, n’umweru, n’ubururu. Imbere yaho hari ibyatsi, ibiti imbere hari amapave azamuka ajya ku nzu iri imbere y'umuhondo' n’ubururu' n’umuhondo.

Umukobwa n'umusore, umusore yambaye umupira w'icyatsi yambaye n'ipantaro, umukobwa yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro inyuma hari akantu k'akazu kanini, k'icyapa ka emutiyene gasa umuhondo.